Abantu benshi bicaye mu cyumba kiberamo inama, bose bambaye imipira y'umuhondo yanditseho urugerero, ndetse iriho n'ibendera ry'igihugu.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zisa oranje, bari imbere yaho hari abantu barimo bararahira, bafashe ku ibendera ry'igihugu.

Abantu benshi bicaye muri sitade, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho amazi yo kunywa.

Abantu benshi bari mu nama, bose bicaye harimo abagabo benshi bambaye amakositimu y'umukara ndetse n'abandi bagore, bicaye imbere yabo bose bambaye marinete.

Abantu benshi bicaye ahabera inama, harimo abagabo ndetse n'abagore batandukanye, harimo abagabo bambaye ama kositimu bose bigiye bicaye ku meza atandukanye.

Abantu benshi bari mu nama bicaye imbere harimo abagabo batatu bambaye amakositimu ndetse na karuvati imbere yabo hariho ibitabo bari kwandikamo.

Abantu bane bicaye mu nama barimo baragezwaho ijambo harimo; abagabo babiri ndetse n'abagore babiri bose bicaye mu ntebe zisa umukara.

Abantu batatu b'abagabo bicaye mu nama barimo barageza ijambo kubakurikiye bose bambaye amashati y'umweru ndetse n'undi wambaye ikositimu y'umukara.

Icyapa kiriho umuntu wambaye itaburiya y'umweru. Uwo twakwita nka muganga afashe imashini mu ntoki yayishyize ku wundi muntu. Ni imashini ipima ibijyanye n'uko umutima utera, ndetse hariho itangazo ryamamariza ikigo cy'ubwishingizi cya Radiyanti.

Abantu benshi bicaye bari mu nama harimo abagabo bambaye amakositimu ndetse imbere yabo hakaba hari insakazamashusho iri kwerekana ibiri kuba.

Abantu benshi bari mu nama, harimo umugabo wambaye ishati y'iroza uhagaze, ndetse n'abandi bicaye ku ntebe, imbere yazo hariho impapuro bari kwandikaho, ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu batanu bari mu nama, harimo abagore babiri, bahagaze harimo n'umuzungu bose bicaye bareba imbere ya televiziyo iri gukorerwaho inama.

Abantu benshi bicaye bari mu nama bigaragara ko harimo abagabo benshi bambaye amarinete ndetse n'abandi bambaye amakositimu y'umukara.

Umugabo wicaye uri mu nama, wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru ndetse n'amarinete mu maso.

Abantu benshi bari mu nama bicaye, imbere yabo hakaba hari televiziyo nini iri kumurika, yanditseho Rwanda orempike, ndetse n'ibindi bintu by'umukara.

Abantu benshi bicaye mu nama barimo baraganira, harimo benshi bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'abandi bambaye imyenda y'ubururu.

Abantu benshi bari mu nama bicaye bari kumva ibyo bagezweho harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu urimo urandika imbere ye hariho uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bari mu nama, imbere yabo hakaba hahagaze umugore urimo urabagezaho ijambo, wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ishati, ufite n' amarineti.

Abagabo batatu bicaye mu nama barimo baraseka, harimo abagabo babiri bose bambaye ikositimu y'umukara ndetse n'inshati y'umweru.

Umuntu uhagaze, urimo uravuga ijambo, arigeza ku bitabiriye iyo nama, bicaye bamuteze amatwi, harimo abagore benshi bamuhanze amaso.

Abantu benshi bicaye muri sitade bigaragara ko bari gukurikirana igikorwa cyahabereye bose baricaye barindiriye ko icyo gikorwa gisoza.

Abantu benshi bicaye bari mu nama harimo abenshi bambaye imyenda y'umweru ndetse n'undi mugabo wambaye amarinete ndetse n'ishati ya move.

Abantu benshi bitabiriye igikorwa cya leta ndetse imbere yabo hakaba hari ihema ryicayemo abandi bantu nabo bitabiriye iyo nama yabaye.

Abantu bicaye mu nama y'icyumba harimo abagore babiri umwe yambaye ishati ya roza n'undi wambaye ishati y'umutuku n'umugabo uri kuruhande wambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi bari mu nama yo ku muhanda ndetse inyuma yabo hakaba hari ibinyabiziga harimo, nka tagisi zitwara abantu ndetse n'amakamyo apakira imicanga.

Umugabo uri mu nama wambaye ikoti urimo urumva ibiri kubera mu nama ndetse inyuma ye hariho abandi bantu nabo bari mu nama bose bicaye.

Abantu batatu bicaye bari mu nama, harimo umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse na marinete, iruhande rwe hakaba hari abagabo babiri.

Abantu benshi bicaye mu nama bambaye amakoti, ndetse nundi wambaye ishati bose bari mu nama barifite mudasobwa imbere yabo.

Abantu benshi bicaye bari mu nama bari kumva ibyo bari kugezwaho ndetse inyuma yabo hakaba hari icyapa kiriho ingengo y'imari y'imihigo.

Abantu benshi bari mu nama ndetse imbere yabo bantu hakaba hari abagabo bane bose bambaye amakositimu, harimo n'umuzungu urimo urageza ijambo ku bitabiriye.

Abantu batatu bose bicaye bari mu nama harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye ishati ya oranje bose bishimye, imbere yabo hariho uducupa tw'amazi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu ufite mikorofone uri kuvuga inyuma ye hariho abandi bantu benshi bahagaze bamuri inyuma.

Abantu benshi bicaye muri sitade bambaye imipira y'imihondo ndetse n'imipira y'icyatsi, bose bicaye bategereje ibiri kubera muri sitade.

Abantu benshi bicaye barimo barandika harimo abagore, ndetse n'abagabo bari imbere y'umwarimu urimo urabigisha.

Umunara uri ahantu hafunganye hagiye hazengurutswe n'ibyuma bitandukanye ndetse inyuma y'uwo munara hariho amazu atuwemo n'abantu bayabamo.

Umuntu uhagaze imbere yaho batangira serivisi utegereje ko bamukorera isuzuma, uwo muntu akaba yambaye umupira w'icyatsi wanditseho mirongo itanu na gatatu, imbere ye hari umugore urimo urandika imyirondoro ye.

Abantu benshi bari inyuma y'igikuta, barimo barakoresha terefone zabo, harimo abahungu batatu bambaye amapantaro ndetse n'imipira yo kwambara.

Igikuta cy'umweru kiriho akapa kagaragaza ko hariho murandasi y'ubuntu icyo cyapa kikaba gikozwe mui ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo.

Umuntu uhagaze uri mu iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo nk'imyenda ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo, uhagaze, wambaye ishati ya shokora ndetse n'ipantaro y'ikigina.

Umugabo w'igikara wicaye imbere ya mudasobwa irimo ko arimo arahabwa serivisi z'Irembo kuri mudasobwa.

Inzu imbere yayo hari ibyapa byamamaza bigaragaza ko hari banki ihakorera itanga serivise zigiye zitandukanye, ibyo byapa bikaba biri mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kigaragaza kwamamaza kwa serivisi z'irembo kiriho umuntu w'umugabo ufashe terefone mu biganza bye yanditseho irembo.

Igiti kiriho icyapa cyanditseho ko hari murandasi y'ubuntu ndetse inyuma yayo, hakaba hari n'ibindi biti by'icyatsi bikiri inyuma.

Umuntu wicaye imbere ya mudasobwa, ufite terefone imbere ye, ari kugenda yandika ibyo ari kubona muri terefone ngendanwa afite mu ntoki.

Icyapa cy'ubururu kigaragaza ko hari serivisi z'irembo nshyashya zasohotse, kiriho telefone igaragaza ibyo kwamamaza icyo gikorwa.

Inzu iriho ibyapa bitandukanye bigaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo ndetse n'ibindi byapa bigiye bitandukanye, bigaragaza ko hari ibyo bakorera.

Icyapa kiriho itangazo rya Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, igaragaza iminsi y'ikiruhuko abo bakozi bemerewe.

Umuntu uri mu biro wicaye, imbere ye hari mudasobwa, ndetse hari n'ibyapa bigiye bitandukanye, bigaragaza serivise zitangirwa aho hantu uwo muntu ari.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma birimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru ndetse bikaba bizengurutswe n'amatafari y'umuhondo.

Urupangu rw'inzu rusa icyatsi ndetse nyuma y'urwo rupangu hakaba hari inzu iriho amabati ndetse na antene ya televiziyo ikurura amashusho.

Amapato maremare afite nka metero mirongo ine, ariho insinga z'umuriro, agiye akurikirana uko ahagaze.

Ifoto igaragaza imisozi iriho amazu ndetse kuri iyo foto hariho ipironi ry'umuriro ndetse no mu rupangu harimo imodoka ya toyota iriho abantu babiri.

Ipironi riri ahantu mu gishanga, iryo pironi rikaba ritwara umuriro w'amashanyarazi, inyuma yarwo rukikijwe n'ibiti by'imigano ndetse n'umugezi.

Umuhanda w'ibitaka urimo uragendwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, inyuma y'uwo muhanda hariho imisozi yitaruye, yubatseho amazu atandukanye y'abaturage.

Ku muhanda urimo imodoka zitwara abagenzi, ndetse n'izindi modoka zitwara ibintu, kuri uwo muhanda hariho umuntu urimo uragenda, ndetse n'amapironi y'umuriro ari hejuru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ndetse imbere yaho hakaba hari ipironi ritwara amashanyarazi ndetse n'iruhande rwaho hari inzu iri kubakwa.

Umuhanda urimo ibinyabiziga birimo biragenda harimo moto itwaye umugenzi, bombi bambaye kasike zo mu mutwe, iruhande rwayo hakaba hari umukozi ucuruza wa MTN.

Abantu benshi bicaye mu nzu, bari ku murongo, bategereje ko babagezaho serivisi baje gushaka muri icyo kigo gitangirwamo ubuvuzi.

Imodoka y'imbangukiragutabara iparitse mu igaraje. Ndetse inyuma yayo hakaba hari ubusitani bwagenewe kunyurwamo n'abantu.

Umugabo uhagaze, wambaye ishati y'ubururu ndetse na karavate, n'undi mwenda w'umutuku urimo ibara ry'umweru, ufite ubwanwa burimo imvi nkeya.

Abantu bari mu rukiko ruburanishirizwamo imanza, harimo abavoka babiri bicaye ndetse n'umugabo wambaye ikositimu ubicayemo hagati, bategereje ko urubanza ruba.

Igipangu gikozwe mu byuma, gifite icyapa cyanditseho ko hari igororero rya Muhanga, rishinzwe kugorora ababa baragize ibibazo.

Abantu bahagaze, bambaye imyenda y'umutuku y'abashinjacyaha, harimo n'undi wambaye umwenda w'umukara urimo ibara ry'umweru, n'umugore wambaye amarinete y'umukara.

Abantu bari hanze bicaye bari mu nama, harimo abicaye ku ntebe, ndetse n'abandi bicaye ku bwatsi, harimo abafite imitaka, kubera izuba ryinshi.

Umuryango ugizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ugaragaza icyapa cyerekana ko iyo ari gereza ya Nyanza, ifungirwamo abantu.

Abantu babiri bari kugenda, harimo umugororwa umwe wambaye amapingu ndetse n'umucungagereza uri inyuma ye ugenda amukurikira, bose berekeje ku rukiko.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wambaye ikote ry'ubururu ndetse na karuvate y'ubururu arimo arasuhuza umucamanza w'umugore, aramukanya mu kiganza.

Abavoka bo mu nkiko bari mu cyumba kiberamo inama harimo umwe wicaye wambaye agapfukamunwa ndetse n'undi uhagaze afashe ibendera ry'igihugu arimo ararahira.

Abantu bari mu nama, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'amarinete, bose bari mu nama.

Umugore w'umushinjacyaha wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru, wambaye amarinete ufite n'umusatsi uringaniye ku mutwe.

Abantu bicaye bari mu rukiko harimo umugabo wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru ndetse n'abacamanza bamuri iruhande.

Abagabo batatu bari mu iburanisha ry'urubanza, harimo babiri barimo barunganira umugabo wambaye imyenda y'iroza ndetse na marinete bose baje mu rubanza.

Umuntu uri gusohoka muri gereza, wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hakaba hari abacungagereza babiri bamuri imbere.

Abantu babiri bari mu rukiko harimo umwe ushinjwa ibyaha, ndetse n'umwunganira wambaye ikanzu yumukara, ndetse irimo ibara ry'umweru, bose bategereje umucamanza.

Abantu batatu bahagaze barimo barasuka amazi ku kintu kirimo kirashya, bose bambaye imyenda yabugenewe barimo muri ako kazi.

Inzu imbere yayo hariho icyapa kivuga guhagarara kw'ibinyabiziga, bituruka aho kerekeje, ndetse n'inyuma yaho hariho imodoka ziparitse.

Inzu zafashwe n'inkongi y'umuriro zirimo ziragurumana ndetse imbere yazo hakaba hari abagabo babiri bambaye imyenda yabugenewe ndetse bafite n'umugozi urimo urasuka amazi kuri izo nzu bayizimya.

Inzu ndende y'amagorofa atandatu ndetse isa mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu bwijimye, imbere y'iyo nzu hariho imodoka eshatu ndetse n'ibiti.

Imodoka nini itwara peterori, iruhande rwayo hakaba hari umuntu urimo urazimya inkongi y'umuriro yari itangiye gufata iyo modoka.

Inzu y'amagorofa, imbere y'iyo nzu hariho imodoka ya polisi iriho icyapa kigaragaza yuko ari iyo gutwaramo abantu bakoze ibyaha.

Parikingi ikozwe mu mapave iriho imodoka ya hirikisi y'umukara iparitse ndetse imbere hari ubusitani ndetse n'ibiti bigiye biri imbere yaho.

Umugabo wigikara wambaye amarinete mumaso ndetse yambaye na kositimu afitemo nishati ndetse na karuvati akaba afite n'imvi nkeya kumutwe.

Abagabo babiri bambaye amakote y'umukara bose harimo umwe wambaye ishati y'umukara n'undi wambaye ishati y'umweru n'amarinete mumaso.

Umugore wicaye mu ruganiriro wambaye imyenda y'umweru ndetse akaba anambaye amarinete mu maso, akaba ari wenyine ategereje abantu.

Umugore ndetse n'umugabo bose bicaye mu nteko ishinga amategeko, umugabo akaba yambaye kositimu y'ubururu ndetse n'amarinete mu maso.

Ifoto ya perezida wa repubulika w'u Rwanda imugaragaza yitabiriye igikorwa cy'amatora, ndetse biragaragara ko yambaye amarinete y'umukara.

Umugore uri mu nteko ishinga amategeko wicaye mu ntebe, imbere ye hakaba ari ibendera ry'igihugu, ndetse uwo mugore akaba yambaye ishati y'ubururu agatambaro k'ifurari k'umweru.

Abantu benshi bahagaze barimo barareberaho impapuro z'aho abantu bagiye batorera ndetse bose bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru.

Abantu benshi bari kwamamaza umukuru w'igihugu, bose bambaye imyenda y'ubururu umweru ndetse n'umutuku bafite icyapa cy'umuyobozi bari kwamamaza.

Abantu bari mu nama harimo abagore bane n'umugabo umwe bose baricaye, inyuma hari ibendera ryigihugu ndetse n'ikirango cy'igihugu.

Umugore urimo uraseka yambaye umupira w'umweru ndetse imbere ye hakaba hari mudasobwa n'inyuma ye hariho amabendera y'igihugu cy'u Rwanda.

Abayobozi b'igihugu bari mu nteko ishinga amategeko, bose bahagaze barimo bararimba indirimbo yubahiriza igihugu, hari ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi harimo umugore ndetse n'umugabo, bose bicaye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umugabo yambaye kositimu ndetse n'agapfukamunwa.

Umugore ukuze wambaye amarinete ndetse n'imyenda y'mishanana, ufashe ku ibendera ry'igihugu, urimo urarahira imbere y'abagize inteko.

Umugore uri mu nama wicaye arimo arageza ijambo ku bari kumwumva, wambaye amarinete ndetse n'ishati y'ubururu.

Abantu benshi bicaye ahabera inama, harimo abagabo batatu bose bambaye kositimu ndetse na karuvate, hakaba harimo n'abandi bambaye amarineti.

Imodoka ebyiri zigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, zitwara abantu ziri muri parikingi y'aho imodoka zihagarara zigeze muri gare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi wikoreye imifuka ku igare ndetse iruhande rwe hariho ibiti bikikije umuhanda ndetse n'umunyamaguru uri gutambuka.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, ndetse n'ibinyabiziga harimo igare ripakiye ibintu bitandukanye byo gukoresha mu rugo harimo nk'isukari, ndetse n'amavuta iryo gare riri mu muhanda.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu barimo baragenda banyuranaho ndetse hari n'imodoka yikoreye amatiyo avuye kugurwa ahantu, byose biri mu muhanda.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi, zose zimuritse amatara ndetse imbere yazo hakaba hari umuntu uri kwambuka umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka y'ubururu ya Toyota ifitemo n'ibara ry'umuhondo ipakiye ibintu, irindiriye ko izindi modoka zivaho nayo igakomeza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka irimo itwara abagenzi ndetse n'indi modoka ntoya byose biri mu cyerekezo kimwe, inyuruhande hakaba hari amazu akorerwamo ubucuruzi.

Imodoka y'ikamyo iri mu muhanda irifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo iruhande rwayo hakaba hari moto ndetse n'igare biri kuyuraho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya fuso itwaye ibintu bigiye bitandukanye ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti biteye kuri uwo muhanda.

Imodoka itwaye abantu benshi y'umweru ya kwasiteri, iri mu muhanda ndetse iruhande rwayo hariho moto ebyiri zitwaye abagenzi bose bambaye kasike mu mutwe.

Imodoka iri kugenda mu muhanda inyuma yayo hakaba hari umugabo wambaye imyenda yubururu uyicayemo, ndetse kuruhande rwayo hakaba hari moto itwaye umugenzi.

Imodoka y'umweru iparitse ku nkombe z'umuhanda, iri imbere y'ahari abantu benshi ndetse n'izindi modoka zinyuranaho, iruhande rwayo hariho igare.

Ibinyabiziga byinshi biri kunyuranaho mu muhanda wa kaburimbo, harimo tagisi itwara abantu y'umweru ndetse ifite n'ibara ry'icunga rihishije, iruhande rwayo hakaba hari moto ebyiri.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi harimo ikamyo itwara esanse isa umweru ndetse inyuma yayo hakaba hari moto enye ziyiri inyuma.

Ibinyabiziga biri mu muhanda harimo moto itwara abagenzi ariko ipakiye akantu k'agakarito ndetse n'indi moto ipakira ibintu izwi ku izina rya rifani.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi zitandukanye harimo n'itwara abagenzi ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'iruhande rwayo hakaba hari moto y'ubururu nayo itwaye ibicuruzwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umukara igizwe n'ibirahure by'umukara ndetse iruhande rw'iyo modoka hari moto y'amabara y'ubururu, na yo iri kugenda muri uwo muhanda.

Imodoka nyinshi ziri mu muhanda ziri kugenda, harimo imodoka y'umweru ndetse na moto itwara ibintu ndetse n'indi modoka y'umukara nayo iri imbere.

Ibinyabiziga biri mu muhanda harimo moto itwaye umugenzi ndetse ni kuruhande hakaba hari indi moto itwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umuhanda urimo unyurwamo n'imodoka ya fuso y'ubururu itwaye amatiyo, ndetse iriho n'umuntu uyicayeho ugenda ayicunze biri mu muhanda.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri zamakamyo zirimo ziranyuranaho harimo ikamyo y'umuhondo yikoreye matela ndetse n'indi kamyo y'umutuku iri kuza mu cyerekezo cy'aho iyo yindi ivuye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abagenzi ntoya izwi ku izina rya tagisi vuwatiri ndetse iri muri uwo muhanda ndetse muri uwo muhanda harimo abantu bagenda banyuranamo.

Ikinyabiziga bigiraho gutwarira modoka, kirimo kirazamuka mu muhanda, inyuma yayo hakaba hari moto ebyiri zitwaye abagenzi.

Umumotari uri mu muhanda utwaye umugenzi, wambaye ibitenge by'icyatsi ndetse bose bakaba bambaye ikasike zagenewe gushyirwa mu mutwe.

Imodoka iri muri kaburimbo iri kugenda itwara abagenzi isa ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, imbere yayo hakaba hari umuntu urimo uragenda.

Abantu benshi batandukanye bari imbere y'igorofa ndende, iruhande rwabo hakaba hari ibikinisho by'abana ndetse n'amabendera amanitse hejuru.

Abantu benshi bicaye ndetse harimo n'abari kugenda bari mu muhanda iruhande rwayo hakaba hari inzu nini y'amagorofa menshi.

Ikibuga cy'umupira kirimo ubwatsi, ndetse iruhande rwayo hakaba hari ibyapa bigenda byamamaza ibintu bitandukanye ndetse hari naho abantu bicara.

Icyapa cyo mu muhanda gikozwe mu ibara ry'icunga rihishije, ndetse n'ibara ry'umukara, kimenyesha yuko imbere hari umuhanda uri gukorerwamo akazi.

Icyapa gishinze ku muhanda kigaragaza ko imbere hari amatara amenyesha imodoka gutambuka, gikozwe mu ishusho y'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku.

Icyapa cyo mu muhanda gikozwe mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'umukara, kigaragaza ko imbere hariho aho umuhanda urangirira, kimanitse mu muhanda.

Icyapa cyagenewe gushyirwa mu muhanda, kigaragaza yuko aho hantu hatemerewe kurenza umuvuduko w'ibirometero mirongo itatu ku isaha, icyo cyapa kikaba gikozwe mu ibara ry'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza yuko hari agahanda gafunganye gikozwe mu ishusho y'umuhondo ndetse n'ibara ry'umukara uwuzengurutse.

Imodoka ya toyota iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye ndetse imbere yaho hakaba hari icyapa kigaragaza ko abantu bahanyura bazengurutse.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza yuko hatemerewe kunyurwa n'imodoka zitwara abagenzi benshi, gikozwe mu ibara ry'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyapa kigaragaza ko hari aho abantu bambukira, kigizwe n'ishusho y'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara, ndetse n'umuzenguruko w'ubururu, gikikijwe n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uriho icyapa cy'ubururu kigaragaza ko aho hantu hemerewe guparikwa n'amatagisi, ndetse uwo umuhanda ukaba uri kunyurwamo n'izindi modoka zinyuranamo.

Icyapa kigaragaza ko imbere hari ikorosi, gikozwe mu ibara ry'umutuku uzengurutse, ndetse n'ishusho y'umweru n'ikirango cy'umukara, biri imbere ya farumasi.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kigaragaza yuko harimo ikorosi, kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ishusho y'umukara, n'ikirango cy'umweru.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza yuko umuvuduko ntarengwa, ari kilometero mirongo itandatu ku isaha, gis'umuhondo ndetse n'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko imbere hari akayira gafunganye, gikozwe mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara rya oranje.

Icyapa cyagenewe gushyirwa mu muhanda, kigaragaza yuko imbere hari agahanda gatambitse, gikozwe mu ishusho y'umuhondo ndetse n'ibara ry'umukara.

Icyapa gishinze ku muhanda, kigaragaza ko imbere hariho abantu ndetse n'imodoka zinyura zizengurutse. Gikozwe mu ishusho y'umukara, ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Umuhanda urimo abantu urimo ndetse n'icyapa kigaragaza ko bibujijwe kurenza kilometero mirongo itandatu ku isaha, iruhande rwayo hakaba hari n'inzu y'umuhondo icururizwamo.

Icyapa cyo mu muhanda, kigaragaza y'uko imbere hari imirimo iri kuhakorwa, icyo cyapa gisifite umuzenguruko w'umutuku, n'ishusho y'umuhondo, n'ikimenyetso cy'umukara.

Icyapa cy'umuhondo kigizwe n'ishusho y'umuhondo ndetse n'umuzenguruko w'umukara kigaragaza ko hari ikoni iburyo cyakaba cyometse ku rugi.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko imbere hari utuyira tubiri two kunyurwamo, gikozwe mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ishusho y'umukara kizengurutswe n'umuzenguruko w'umukara.

Ahantu hari icyapa kigaragaza ko aho hari isangano ndetse inyuma yaho hakaba hari aho hatewe ibiti ndetse n'ubusitani bwagenewe kuruhukiramo abantu.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza yuko imbere hari aho banyura bazengurutse, gikozwe mu ishusho y'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara n'umuzenguruko w'umutuku.

Icyapa cyagenewe gushyirwa mu muhanda kigaragaza ko imbere hari umuhanda ukomeza gikozwe mu ishusho y'umuhondo ndetse n'ibara ry'umukara rizengurutse icyo cyapa.

Inzu ebyiri z'amagorofa abiri, bigaragara ko zagenewe guturwamo n'abantu, ndetse imbere yayo hakaba hari akandi kazu, gakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Inzu y'ahantu abantu barira yicayemo n'abantu babiri bose bari kumeza, imbere yayo hakaba hari ahantu bogera intoki ndetse n'ahandi ho kwinjira.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu bari kunyuranamo, bose bagiye mu mirimo itandukanye ndetse hari n'aho hari aho bacururiza imiti yo kwa muganga.

Inzu nini y'amagorofa menshi, iriho ibirahure bitabonerana, yanditseho Ihozo hoteri, ndetse imbere yayo hakaba hari imodoka n'abantu bahahagaze.

Igorofa ndende igizwe n'amagorofa atanu, imbere yayo hakaba hari imodoka zitandukanye ndetse na moto nayo ihagaze itegereje umugenzi.

Imbere y'inzu hariho intebe zo kwicaraho ndetse n'ibiti bigiye bishinze imbere y'iyo nzu, hariho n'ubusitani buri imbere y'iyo nzu.

Ahantu hitaruye hagaragaza amazu menshi atuwemo n'abantu ndetse imbere hakaba hari n'ikigega cyagenewe gushyirwamo amazi cy'umukara mu ibara.

Inzu ndende y'amagorofa menshi, iri imbere y'ahari aho imodoka ziparikira, ndetse hakaba hari n'abantu batandukanye, barimo baranyura kuri iyo nzu iri imbere yabo.

Abantu benshi bari mu muhanda bari kugenda bareba ibyo bacururiza muri ayo masoko ndetse iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari amaduka akorerwamo ibintu bitandukanye.

Inzu z'amagorofa abiri, zigaragara ko zagenewe guturamo, zikaba zigizwe n'amarangi y'umweru, ndetse imbere yazo hakaba hari ibihuru.

Inzu nini ndende, igizwe n'amagorofa atatu, imbere yayo hakaba hariho urupangu ndetse n'ubusitani bugiye buteramo ibiti bitandukanye.

Inzu y'amagorofa menshi ifite ibirahure bitabonerana ndetse hariho n'imiryango ibiri ifunguye, bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Umudugudu utuyemo abantu urimo kaburimbo y'umukara ndetse n'abantu barimo baragendamo, umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibipangu.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, rurimo moto idatwaye umugenzi ndetse n'indi moto itwaye umugenzi.

Icyapa kigaragaza uwo muhanda ari uwa kangahe, ndetse mu muhanda hakaba hari moto ebyiri zirimo ziragenda zidatwaye abagenzi.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi y'umuhondo ndetse n'umweru, imbere yayo hariho moto iriho umugenzi utwaye umuntu.

Isangano ry'imihanda irimo imodoka zigiye zinyuranamo harimo ndetse n'amapikipiki atwaye abantu, byose bitegereje izindi modoka ko ziyihita nazo zikagenda.

Imodoka nyinshi zirimo ziranyura ku kiraro ndetse imbere yazo, hakaba hari umuntu utegereje kwambuka umuhanda, anyuze aho abanyamaguru babugenewe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zirimo ziranyuranamo ndetse izo modoka zikaba zigeze mu masangano aho imwe igomba gutegereza indi ikagenda.

Imodoka nyinshi ziri mu muhanda, ziri kugenda, harimo imodoka isa umukara, ndetse n'indi ya toyota y'umweru, iruhande rwayo hakaba hari ikamyo nini y'ubururu.

Umuhanda uterera, urimo uramanukamo n'umugabo wambaye ishati y'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara iruhande rwe hakaba hari moto nayo iri kuzamuka itwaye umugenzi.

Umuhanda ugaragaza aho abantu bambukira, umuhanda uriho abantu bategereje ko ibyapa bimurika bibemerera bagakomeza kugenda.

Umuhanda ugizwe naho imodoka zigenda zinyuranamo zizengurutse, urimo ahari ubusitani ndetse n'ikiraro kinyura hejuru.

Umuhanda uriho ikiraro kigendedwaho n'izindi modoka, munsi yaho hariho imodoka zirimo ziragenda ndetse n'igare ryikoreye ibikoresho byo murugo.

Imodoka ziri kunyura munsi y'ikiraro harimo ndetse na moto; imodoka y'umukara ifite ibirahure bitabonerana ndetse n'indi ya toyota iri kuza.